Imiti iri mu ducupa dusize amabara atandukanye, icyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'indi ifunze mu bipapuro.

Umugabo wambaye ingofero n'agapfukamunwa n'umupira w'umweru, ahetse imashini zifashisha mu gutera imiti ibihingwa, ahagaze mu gishanga gihinzemo umuceriri.

Umugabo wambaye imyenda isa umweruru, ahagaze mu murima uhinzemo imboga, afite imashini zifashishwa mu kuvomerera imyaka, inyuma hari ishyamba n'ibiti byinshi.

Umugabo wambaye amadarubindi n'ishati ku mufuka hariho ikaramu ahagaze mu murima w'ibirayi n'undi uri kumuha mvilope mu ntoki, wambaye ingofero umupira w'ubururu n'ipantaro umurima ukikijwe n'biti byinshi.

Umugabo ufite igikombe mu ntoki gisa umuhondo n'abana babiri bahagaze ku kidendezi cy'amazi bafite imiti bari guteramo.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro n'isaha ku kaboko, afite isahani irimo ibintu, ahagaze i mpande y'icyuzi cy'amafi ndetse hari urutoki.

Abantu babiri umugabo wambaye ingofero, n'ishati n'ikabutura, n'umugore bahagaze mu kidendezi cy'amazi mu gishanga, gihinzemo umuceri, bari kuyakura, kuyagagabanya.

Abagabo batanu bahagaze mu kiyaga cy'amazi, bafite inshundura, bari kuroba, abandi bari gutega imitego mu kiyaga, mo hasi, hari ahameze ibyatsi ku ruhande.

Amashyamba y'ibiti binini by'ubwoko butandukanye, hari insina ndetse n'umuntu uhagaze impande y'ibyuzi by'amafi.

Umugabo wambaye bote z'umuhondo, umupira w'icyatsi n'ipantaro, afite akadobo k'umweru mu ntoki, ahagaze imbere y'ibyuzi mu gishanga gikikijwe n'amashyamba.

Abagore bambaye ibisarubeti bisa ubururu ndetse n'iby'umuhondo bafite ibintu mu ntoki n'undi ufite telefone ari kubafotora, imbere yabo hari icyuzi cy'amafi kizitiye.

Abantu benshi, abato, abakuru, umupolisi ufite telefoni mu ntoki, impande hari ikidendezi cy'amazi, inyuma ibihuru byinshi birimo ibiti by'amoko atandukanye.

Abarobyi b'amafi bahagaze bafite amafi mu ntoki, inyuma yabo hari ikiyaga bamaze kuyarobamo ndetse n'umusozi uriho ibiti by'amoko atandukanye.

Umugabo wishimye arimo guseka wambaye umupira ,ahagaze mu mazi menshi ,ndetse kuruhande hakikijwe ubwoko bw'ibiti byinshi n'imirima yo guhingamo.

Umusore wambaye umupira w'umweru watangaye, ari kugaragaza amafi menshi arunze ahantu hamwe, inyuma hari ishyamba ry'inzitane.

Abagabo bafite amafi menshi mu ncunda, bamaze kuroba ndetse n'undi ku ruhande uri kuyaronga mu ibase y'umukara, bahagaze mu kiyaga kinini cy'amazi.

Abagabo bari gutambuka imbere y'ibyuzi by'amafi, inyuma hari imirima irimo ibihingwa bitandukanye n'ibyatsi by'amatungo ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abahinzi bateze ibitambaro mu mutwe bakenyeye n'ibitenge, bari gukoma amashyi bishimye baseka, inyuma yabo hari umurima uhinzemo amatunda.

Abahinzi bunamye mu gishanga gihinzemo umuceri, bambaye ingofero, hakikijwe n'ibti by'amoko menshi, inyuma hari umusozi.

Umusozi muremure uriho amaterasi y'indinganire ndetse n'umuhanda munini w'ibitaka unyuraho, hari umurima uhinzemo icyayi, inyuma imisozi iteyeho amashyamba.

Abahinzi bicaye hejuru ya shitingi, biteze ibitambaro mu mutwe ibindi babikenyeye bari gutoranya ibishyiyimbo ndetse n'amasaka ari hejuru y'umufuka.

Umugore witeze igitambaro, yambaye umupira utukura, afite ibitebo bibiri, ahagaze mu murima w'icyayi ari gusarura, ukikijwe n'ibiti birebire.

Igiti k'ikawa gifite amababi asa icyatsi, ariho imbuto zidahiye n'izihiye zisa umutuku, inyuma ikibara k'ibyatsi ndetse n'ishyamba.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, umupfundikizo w'icyatsi, hariho agapapuro kari mu ibara rya move n'amagambo asa umukara. Gateretse ku meza.

Amacupa ateretse ahantu hamwe arimo imiti, ari mumabara atandukanye ariyo, umweru, ubururu, icyatsi, umutuku, ndetse n'umuhondo.

Imiti yica udukoko iri mu macupa apfundikiye y'umweru, inyuma hariho ibipapuro biri mu mabara atandukanye byanditseho n'amagambo bisa icyatsi, umuhondo n'umukara.

Abahinzi bari gusarura umuceri mu kibaya umwe ari gukoresha inanjoro, ndetse inyuma hari ishyamba ry'inzitane n'umurima uhinzemo ibigori.

Umukecuru witeze igitambaro, yambaye umupira akenyeye n'igitenge afite impapuro mu ntoki arishimye cyane ari guseka, inyuma ye hari umurima uhinzemo ibigori ndetse n'urutoki.

Umuhinzi wunamye mu murima ari gutera imyaka, harimo ibishyimbo, impande ibyatsi byinshi, hari umugabo uri kwitaba telefone, wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara.

Abahinzi babiri bari mu murima, bafite amasuka, bari guhinga. Iruhande hari insina ndetse inyuma, umusozi uriho amashyamba n'inzu zo guturamo.

Itsinda ry'abantu bari hamwe, harimo umugore uri guhereza umwana wambaye agapira k'umuhondo, igiti ngo agitere. Inyuma yabo hari ibiti by'amapera.

Igiti gifite urubuto rwicunga amababi asa icyatsi riteze, rihinze mu murima urimo ibindi bihingwa bitandukanye.

Ahantu hari imboga ndetse n'imbuto zirimo: imiteja, inyanya, urusenda, pavuro, imboga, amaronji ndetse n'ibindi.

Umurima urimo imboga n'ibitunguru, iruhande ukikijwe n'ibiti ndetse n'undi uhinzemo ibigori.

Umurima uhinzemo imboga z'ubwoko butandukanye, impande hari umuntu uri gutambuka inyuma ye hari ikigo cy'ubuhumbikiro kizitiye, n'ibiti by'amoko atandukanye iruhande.

Umurima munini urimo ibiti by'imyumbati, impande ibiti by'ubwoko butandukanye, ndetse n'ubuhinzi bw'urutoki, hakurya umusozi.

Umurima urimo ibyatsi, harimo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'iby'imbuto, amapapayi, amacunga, imyembe n'ibindi.

Imirima minini ndetse n'urutoki rwinshi. Inyuma hari ishyamba ry'inzitane ry'ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'umusozi muremure uteganye n'undi.

Ishyamba riri ku musozi ririho ibiti byinshi byinshi by'amoko atandukanye, hasi hari utundi dutoya tutarakura, ibyatsi byaguye byumye.

Ishyamba ryinshi riri ku musozi muremure ry'inzitane ndetse n'inzu isakaje amabati asa icyatsi n'indabyo.

Igiti kinini munsi yacyo hari ihene eshatu isa umweru, ibihogo ndetse n'umukara zirikurisha ibyatsi bihari ndetse.

Ikiyaga kinini cyane, gikikijwe n'igishanga kirimo ibyatsi byinshi n'amoko y'ibiti bitandukanye, inyuma hari umusozi muremure.

Ishyamba rirerire cyane harimo umuhanda hagati ,uri kunyuramo imashini hariho ibyatsi byumye nibitumye hari n'ibiti byinshi.

Umugabo uhagaze ufashe urubuto rw'itunda mu ntoki, wambaye ishati y'umweru irimo uturongo twumukara n'ipantaro ahagaze mu murima munini w'amatunda.

Umugore wambaye ikanzu, yunamye mu murima urimo inoryi, imboga, amashu ari gusarura n'ibitunguru.

Umuhinzi wambaye ga ndetse n'imyenda by'icyatsi n'agapfukamunwa k'umutuku afite pome itukura mu ntoki, ahagaze mu murima urimo pome.

Abantu bambaye imyenda isa ubururu bari mu murima munini uhinzemo ibihingwa, bari gusarura bafite indobo nyinshi mu ntoki.

Umuntu uteruye ibase isa umutuku irimo ibishayote byinshi n'undi uteruye ibase irimo ibitunguru byinshi.

Ubuhinzi bwindabo z'amoko menshi atandukanye buri hamwe mo ziteretse ku mbaho zisize irangi ry'umweru.

Igishanga kinini kirimo ibihingwa bitandukanye:, imboga, imbuto, insina ndetse n'umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi n'ibiti byinshi.

Umugore witeze igitambaro cy'ubururu, ikanzu y'umweru, umukara n'umutuku, ari kuvomerera umurima munini, urimo inanasi, n'iyindi y'ibigori.

Abagabo bahagaze mu gishanga, kirimo ibihingwa bari kuvomerera bakoresheje imipira ,inyuma yabo hari imisozi miremire.

Umusozi ukozeho amatarasi y'indinganire hariho ubwatsi bw'amatungo abantu bari kuvomerera bakoresheje amazi ndetse n'ibiti ku ruhande.

Umuhinzi wambaye isengeri n'igitenge n'igitambaro mu mutwe, afite rozwari mu ntoki ari kuvomera ibihingwa mu murima ndetse n'abandi inyuma ye bari gusarura, akikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umurima munini urambitsemo ibyatsi byumye, uhagazemo abagabo babiri bambaye imipira itukura, n'undi wunamye impande y'umugezi w'amazi atemba inyuma hari urutoki.

Umurima uhinzemo amateke n'ibirayi, harimo ipoto ijyana insinga z'amashanyarazi ndetse inyuma ishyamba ry'ibiti byinshi.

Imisozi miremire, iriho amashyamba menshi ndetse n'amazu yo guturamo menshi atandukanye, ibiti by'amoko menshi, iruhande hari ibiti birunze hamwe.

Imisozi miremire iteganye, iriho ishyamba ryinshi ryinzitane, hasi hari ikibaya kirimo utuyira twinshi, ndetse n'inyubako.

Imisozi miremire cyane iteyeho amashyamba y'ibiti by'ubwoko butandukanye, amazu yo guturamo ndetse n'imihanda yo kunyuramo.

Imisozi miremire iteganye, iriho amashyamba y'ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'amazu yo guturamo n'imirima ihinzemo ibiribwa bitandukanye.

Imisozi miremire iriho amatarasi y'indninganire, ibiti by'amoko menshi atandukanye, hasi hari ikiyaga kinini kiriho amazi, ingo z'abantu nyinshi zituye ziri kuri uwo musozi.

Umusozi muremure uhanamye uriho amaterasi y'indinganire n'undi hakurya uriho ishyamba ry'ibiti byinshi n'amazu yo guturamo.

Ahakorerwa ubworozi bw'inkoko hari imishwi myinshi cyane iryamye n'indi iri gutora ibyo kurya, yubakishije imbaho hari n'inzitiramibu isa ubururu.

Ubworozi bw'inka zororewe ahantu hamwe ziri kurya ibyatsi hubakishije ibyuma, hasize irangi ry'umweru hasakaje amabati.

Isambu nini irimo ibyatsi byinshi ndetse n'ihene zisa umweru n'ibihogo, inyuma hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ibiti.

Ishyo ry'inka ziri ahantu hazitije ibiti, iruhande ikibara cy'ibyatsi, hahagazemo abantu bambaye amasarubeti y'ubururu na bote.

Abagabo bambaye ibisarobeti by'ubururu na bote, bahagaze ku ruzitiro rw'ibiti, mo imbere harimo inka z'inyambo, hirya ibiti by'amoko atandukanye.

Abagabo bambaye bote n'ibisarubeti by'ubururu. Abandi amataburiya y'umweru. Bahagaze impande y'uruzitiro rw'ubakishije ibiti mo imbere harimo inka nyinshi.

Ihene nyinshi zisa umweru n'ibihogo ziri mubyatsi byinshi bifatanye ndetse n'ishyamba ku ruhande rw'ibiti birebire, hahagaze n'umugabo wambaye ishati n'ipantaro.

Inka yambaye iherena ku gutwi ihagaze mu kiraro cyubakishije ibiti, inyuma hari umurima uhinzemo ibigori ndetse n'igiti gihari.

Abagabo bambaye bote ndetse n'umugore wambaye itaburiya y'umweru bahagaze inyuma y'uruzitiro rw'ibiti, mo imbere harimo inka zifite amahembe maremare z'ibihogo.

Ubworozi bw'amatungo magufi burimo inkoko, isake ndetse n'inkokokazi ziri ahantu hamwe n'uburiro bwazo busa umutuku.

Aho bororera inka hubakishije ibyuma, hasakaze amabati harimo inka nyinshi ndetse hahagaze abantu batatu bari kuzireba.

Udushwi tw'inkoko, dutoya, twinshi cyane, turi ahantu hamwe mu kizu, impande hari uburiro bwazo, bashyiramo amazi, busa umutuku n'umweru ndetse hari n'imbabura irimo amakara.

Abagabo bambaye ibisarubeti by'ubururu na bote n'abandi bambaye amataburiya y'umweru, bahagaze impande y'uruzitiro rw'ibiti, mo imbere harimo inka.

Ubworozi bw'amatungo magufi, inkoko, isake n'inkokokazi, ziri ahantu hamwe, hubakishije imbahu z'ibiti, hari n'uburiro bwazo busa umweru n'umutuku.

Hafi y'umuhanda, hubatse ikiraro kirimo inka ebyiri ziri kurisha ibyatsi, umushumba azizaniye, wambaye ishati y'umweru n'inkweto.

Ihene nyinshi ziri mu gisambu kinini zisa umweru n'ibihogo, inyuma hahagaze abantu benshi ndetse hari amashyamba y'ibiti.

Inka zisa umweruru n'umukara, ziri ahantu hubakiye n'ibyuma ndetse hasakaje amabati, iruhande hari ibiti.

Inka zisa ibihogo ziri ahantu hubakiye n'ibyuma, hasakaje amabati, zipfumuye amatwi zambaye amaherena, inyuma hari umusozi.

Imifuka myinshi irimo ibintu bisa umweru icyatsi n'umutuku, hahagaze umukobwa ari kuyireba imbere mu gishanga hahinzemo ibihingwa bitandukanye.

Umugore wambaye ibitenge by'umutuku n'umweru n'agatambaro mu mutwe, ari gutoranya ibishyimbo mu cyibo, yicaye ahantu.

Abantu bari gutoranya ibishyimbo, abagore bakenyeye ibitenge bafite isahani mu ntoki n'amabase, umwe yambaye inkweto zisa ubururu.

Umushumba w'inka ari kuyifungirana ahantu hubakishije ibyuma. Yambaye igisarubeti cy'ubururu. Hirya hari ikibara kinini kidahinnze ndetse n'igiti.

Abagabo bambaye bote, ibisarubeti by'ubururu n'amataburiya y'umweru. Bahagaze bari kureba inka isa ibihogo, iri muruzitiro rwubakishije ibiti.

Inka z'inyambo ziri ahantu hubakiye n'ibiti, iruhande hari abagabo bambaye ibisarubeti by'ubururu n'undi wambaye bote n'itabu y'umweru ndetse n'ibiti.

Umuvuzi w'amatungo wambaye igisarubeti na bote, asa nk'uri kubyaza inka isoa umweru n'umukara, munsi hari undi ufashe ku ibere ry'inka.

Inyamaswa yitwa isha ihagaze mu murima urimo ibyatsi biriho uturabo, inyuma umusozi uteyeho ishyamba.

Inyamaswa yitwa ingwe iryamye mu giti, impande hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi byinshi bifite amashami asa icyatsi.

Ikibaya kinini kirimo inyamaswa z'inkazi bita inzovu, haparitse imodoka yifashishwa mu bukerarugendo hakurya umusozi muremure.